Umusirikare wese aho ava akagera aharanira umutekano w'igihugu cye, niyo mpamvu rero dukwiriye natwe kuwugenza nkabo tukagira imico nk'iyabo. Tugakunda igihugu cyacu twaba dushobora kukitangira ndetse no kugikorera ubuziraherezo, kugira ngo tubashe kugira umutekano. Umutekano udufasha kurinda neza ibyo dufite tukabasha kubikoresha neza nta nkomyi nta makimbirane.

Iinama ni ijambo risobanura ahantu hicaye abantu barenze umwe baganira, biga ku kintu cyabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, cyane cyane ndetse na buri muntu ku giti ke, ni yo mpamvu dukwiye gushishirizwa kujya mu nama igihe tubisabwa, hanyuma tukabasha kumenya uko dukwiye kubona sosete, ibyo dukwiriye gukora, nibyo dukwiye kureka, bityo bigafasha sosete tutibagiwe n'umuntu buri wese ku giti ke.

Sekirite mu ndimi z'amahanga, umutekano mu kinyarwanda, dukwiriye kubungabunga umutekano wacu, ariko kandi hari abashinzwe kubungabunga uyu mutekano, binyuze mu gushaka amahoro kandi bikaba na ngombwa ko bashobora no kurwanirira sosiyete ngari kugira ngo ibashe kugira umutekano, niyo mpamvu dukwiriye kubafata neza, tukabaha ubushobozi butuma bashobora kurwanirira igihugu bityo tukagira umutekano.

Dukwiye kwifashisha ibirango igihe turi mu nama zitandukanye, niyo mpamvu rero, urugero dukwiye kwifashisha amadarapo. Igihe turi mu nama y'umuryango, igihe turi mu nama zitandukanye, bityo bigafasha buri umwe wese ushobora no kubona aho twari twicaye, inama twarimo ntubwo atakwibwira ari icyo yari igamije, ariko akamenya uruhande iherereyemo.

Zimwe mu mpamvu zituma dutera imbere cyane ni uko dukoresha umuriro w'amashanyarazi, ndetse n'ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga n'iryo twifashisha kugira ngo tumenye amakuru hirya no hino uko bimeze, ndetse tubishobore no kwihangira imirimo yifashishije inganda. Umuriro w'amashanyarazi rero, ushobora gutera ibizazane byinshi bitandukanye cyangwa se ingaruka. Ufite ingaruka: ushobora gutwika, ukaba watwika ibintu ndetse n'abantu. Ni yo mpamvu twifashisha ibikoresho bimwe na bimwe, birimo za kizimyamwoto, igihe duhuye n'ingaruka z'umuriro w'amashanyarazi tukabasha kuzimya.

Feruje cyangwa se amatara ndanga cyerekezo, feruje mu ndimi z'amahanga, ni ijambo rikoreshwa cyangwa se rihabwa igikoresho kidufasha gukoresha umuhanda neza, twibanda ku mategeko y'umuhanda. Ni yo mpamvu rero umuntu wese utwara ikinyabiziga akwiriye kwita kuri aya matara, kubera yuko uko adufasha gutambutsa ndetse no gutandumbukanaho, kugira ngo tubashe gukoresha umuhanda neza twirinde impanuka.

Imbwa, tugira imbwa zororerwa mu rugo, tukagira n'imbwa zo mu ishyamba. Imbwa zororerwa mu rugo, ni imbwa nziza cyane, ni imbwa zidufitiye akamaro. Rimwe na rimwe uzasanga no mu nzego z'umutekano barazifashisha. Zikabasha gushaka ibintu bitandukanye bitewe n'uko zatojwe. Hari izisaka ibisasu, hari izisaka ibiyobyabwenge, hari izisaka ibindi bintu bishobora kubangamira umutekano w'abantu. Niyo mpamvu rero imbwa dukwiriye kuzitaho, bazitoza umuco, tukazigisha no gukora akazi tuzitegetse.

Feruje mu ndimi z'amahanga, amatara ndangacyerekezo, cyangwa amatara afasha abatwaye ibinyabiziga kunyuranaho ,cyangwa se gutambukanaho, cyangwa gukomeza urugendo, cyangwa bikanabafasha guhagarara bagategereza ibinyabiziga runaka bikabanza gutambuka, ni amatara meza adufasha, bityo bikaturinda impanuka za hato na hato dushobora guterwa n'ingendo dukora, tuva ahantu tujya ahandi.

Mu gihe dufite ibinyabiziga tugomba kumenya uko tubikoresha tukabibungabunga tukabifata neza. kugirango tubirinde kwangirika bishobora kudutera impanuka za hato na hato tukabijyana mu magarage. Igaraje rero n'iki? Igaraje n'ahantu tujyana ibinyabiziga byacu bakabasha kubikora bikaba bifite ubuziranenge bidashobora gutera impanuka za hato na hato.

Dufite ahantu hagaragara abantu bashinzwe umutekano. Aho hantu hakaba hakwiye kubungabungwa hagafatwa neza binyuze mu kuharirindira umutekano icyo twita urugero Rwanda National Police, otomobore insipegishoni senta ni ahantu abantu bashinzwe umutekano babav ndetse hagira ikibazo kigaragara ukaba ushobora kwitabara bitabaza binyuze mu kujya kubareba aho bari cyangwa se binyuze mu kubahamagara uko hakoreshejwe ikoranabuhanga telefoni.

Kwiga uko gaze zishobora gukoreshwa ni byiza cyane kugira ngo tubashe kumenya neza uburyo twazikoresha. Bityo bikaturinda ingaruka za hato na hato, kuko rimwe na rimwe ushobora gusanga iziri kutwangiza kandi zikangiriza n'imiryango yacu tutibagiwe n'abandi muri rusange. Ni yo mpamvu rero dukwiriye kuzikoresha neza tuzitekaho tukabasha kubona ibyo dushaka ariko kandi tubashije kwirinda ingaruka zishobora guterwa na yo.

Akarasisi ni ukugendera ku murongo umwe, muri mu gikorwa kimwe ntawubasha kunyuranya n'abandi, bityo bikadufasha kumenya gukorera hamwe ,ndetse no kunoza umurimo tukawukora tuwukunze nta n'umwe uteye ipfunwe, ni urugero abasirikare, abasirikare bari ku karasisi bagendera hamwe ,ku mirongo imwe bikagaragaza ubufatanye bakorana umwuga ,cyangwa se umurimo wabo.

Ubwato ni ikintu kiza, kubera ko rimwe na rimwe buradufasha, urugero abantu bashobora kugwa mu mazi, abantu bashobora kugwa mu kiyaga ,abantu bashobora kugwa mugezi ,bityo tukifashisha ubwato mu gihe turimo turabarohora dukiza amagara yabo, cyangwa se dukiza ubuzima bwabo tubukura mu kaga, kugira ngo batabasha kuhakura urupfu, cyangwa se bakahasiga ubuzima mu kinyarwanda gisobanutse neza.

Inama ni ahantu heza umuntu wese ashobora kubariza ikibazo cye kugira ngo kibashe gukemuka, bityo bikamufasha kubaho atuje muri sosiyete kandi ashoboye gutanga ibitekerezo muri sosiyete arimo, kubera ko atigeze apfukiranwa mu gihe yari afite ibibazo, dukwiye kujya mu nama tukagaragaza ibibazo byatunaniye kugira ngo ubuyobozi cyangwa se ba bagenzuzi bacu badufashe kubikemura.

Konfurensi mu ndimi z'amahanga, ni ijambo mu kinyarwanda risobanura inama, inama rero ni ahantu twicara turi umwe cyangwa se turenze umwe, tukabasha kuhaganirira hari icyo tugamije, tugamije gufata umwanzuro ushobora gufasha sosiyete cyangwa se umuntu ku giti cye, ni yo mpamvu rero dukwiye kwitabira inama kuko ifasha abantu benshi batandukanye, bityo bakabasha kunguka ubumenyi n'ubwenge, bikabafasha kumenya gukemura ibibazo byabo n'ibibazo rusange.

Dukunde gukora utugoroba tw'ababyeyi, inama zitandukanye kuko bidufasha kumenya uko twakemura ibibazo byacu, bikadufasha kumenya ibibazo dufite nuko twabikemura, tukabasha no gukurikirana urubyaro rwacu. Inama ni ikintu cyiza cyane gifashe umuturage uwo ari we wese, yaba ari wa wundi ufite imyumvire mibi n'ufite imyumvire myiza bagahura bose bakahavana imico myiza.

Ingobyi ni udukoresho twifashisha, aho imodoka cyangwa moto idashobora kugera. Hanyuma tugashyiramo umurwayi, tukabasha kumugeza kwa muganga mu buryo bwo kumuha ubutabazi bw'ibanze. Akavurwa, akitabwaho na muganga, binyuze mu kuba yafashijwe n'abaturage bamuhetse ku ngobyi.

Fashoni mu ndimi z'amahanga ni uburyo bwo kugenda wirata. Bityo ukabasha kubonwa n'abantu benshi batandukanye. Ushobora kugenda wirata, ariko bikanyura mu myambaro wambaye. Ukanagaragaza imyambaro wambaye bitewe n'ingendo uri gukoresha, ibyo twita mu ndimi z'mahanga fashoni. Cyangwa se umuco, bitewe n'igihe mugezemo.

Reka dukunde kugerageza gutanga ubutumwa binyuze mu ndirimbo, kuko ari kimwe mu bifasha gususurutsa abantu, ndetse no kurushaho gutega amatwi neza ubutumwa bunyura muri iyo ndirimbo, hitawe mu kwitegereza neza imbyino ikoreshwa igihe hatambukaga ubwo butumwa.

Tugerageze gukomera ku muco nyarwanda. Kuko umuco nyarwanda ni umuco mwiza, ni umuco waranze abasekuruza bacu. Natwe dukwiriye kuwitaho tugakurikiza imigenzereze myiza y'abasekuruza bacu. Umuco nyarwanda rero ukunda kugaragazwa n'ibikoresho bitandukanye, harimo inkongoro, amacumu, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ikirago ni igikoresho twifashisha ab'ubu bamenyereye umukeka, ariko ikirago ni igikoresho gituruka mu busuna bagikora bakoresheje ubusuna mu kinyarwanda tubyita ubusuna, dukunda guhinga ahantu hari amazi menshi kugira ngo bubashe gukura, tubusarure bityo tubashe kubukoramo ibirago.

Igiseke ni igikoresho twifashisha mu muco Nyarwanda tukagitangamo impano zitandukanye kandi kikaba kigaragaza ko kiba gipfundikiye ibintu biteye amatsiko. Niyo mpamvu n'iyo twakira abashyitsi cyangwa se abandi bantu tubabwira ngo cyangwa tubwira abo twifatanyije kwakira abashyitsi tuti: "Mureke badupfundurire igiseke baduteganyirije badupfundikiriye". Niyo mpamvu rero dukwiriye kukitaho tukagifata neza kuko kidufitiye akamaro.

Igisabo ni igikoresho cyiza cyane gikoreshwa mu muco nyarwanda, tugikoresha tubuganiza amata ni yo mpamvu rero iyo umukobwa agiye ku ruhimbi, abasha kubuganiza amata mu gisabo, inkongoro kandi iyo amata tumaze kuyabuganiriza mu gisabo dushobora kuyashyira mu nkongoro, tukabasha kuyanwa ameze neza ni yo mpamvu dukwiriye kwita ku gisabo.

Isaka ni igihingwa cyiza dukuramo ibintu byinshi bitandukanye, ariko tukabibona aruko twabanjije kuritera rigakura, tukaribungabunga, tukarifata neza, tukaritera umuti, tukariha ibyo rikwiriye cyane cyane nk'ifumbire, kugira ngo rize kuduha umusaruro mwinshi kandi twifuza, rero isaka riduha ifu, dushobora kuyibona turijyanye ku mashini kubetesha, cyangwa se tukaribona binyuze mu gusya twifashishije urusyo, kugira ngo tubone igikoma, n'ifu yo kubeteza tukabona inzoga.

Mu kinyarwanda tugira icyo twita ikibindi, tukagira icyo twita umuheha, ibyo ni ibikoresho bikorana cyane, kubera ko iyo dufite mu kibindi ibinyobwa, dushobora kugiramo inzoga twita urwagwa, dushobora kugiramo umusururu, dushobora kugiramo icyitwa ikigage, niyo mpamvu twifashisha umuheha igihe dusoma, tugasomera ku cyo twita intango. Intango rero ni ikintu gihuza abantu baba bafitanye n'amakimbirane, bakongera bakabana neza.

Mu kinyarwanda tugira imigani migufi, hari umugani dukunda guca tuvuga ngo "aho ujishe igisabo ntuhatera ibuye". Igisabo ni igikoresho gikomeye mu muco nyarwanda, twifashisha ducunda amata, igisabo cyifashishwaga cyane ibwami, kugeza na n'ubu bigaragara mu baturage hirya no hino.

Amayugi ni ibikoresho twifashisha igihe turi mu imbyino, igihe turi gutambutsa ubutumwa binyuze mu ndirimbo no mu mbyino, kugira ngo ababireba babashe kuryoherwa binyuze mu ndirimbo zinogeye amatwi, ndetse n'amajwi asohoka aturutse kuri ya mayugi turi kwifashisha tubyina dutambutsa bwa butumwa bwacu.

Umukecuru ni umuntuntu ugeze mu za bukuru. Kubera ko umuntu aravuka, yavuka agakura, akaba umwana, akaba ingimbi cyangwa se inkumi, akaba umugore, akaba umukecuru cyangwa se umusaza. Umukecuru rero ni umuntu w'igitsina gore ukuze, ugeze mu za bukuru, mu myaka mirongo itandatu n'itanu.

Iyo turi mu bubumby;i hari ukubumba amatafari, iyo turi kubumba amatafari dukoresha igikoresho cyitwa urutira cyangwa se hari ababyita iforomo. Iforomo rero tuyifashisha tugirango tubashe guha ishusho itafari ryacu dushaka kwifashisha mu bwubatsi. Rero urutiba ni igikoresho twifashisha tugira, dushaka ishusho y'ikibumbano cyangwa se y'ibumba dushaka kwifashisha ubwubatsi bwacu.

Amazi tuyifashisha mu ngendo, bityo aribyo mu indimi z'amahanga twita wota taransipoti. Niyo mpamvu rero dukwiriye kuyabungabunga tukayifashisha mu ngendo twifashishije ubwato. Ubwato ni igikoresho dukoresha tugenda mu mazi, kigenda kireremba hejuru mu mazi bityo tukabasha gutwara abantu n'ibintu tubinyujije mu mazi.

Akenshi iyo turi mu bukwe twifashishije ibikoresho bitandukanye, birimo ibiseke, igiseke ni igikoresho mu muco nyarwanda cyifashishwa kandi gisobanuye ibintu byinshi, ari na yo mpamvu nitujya mu kirangantego cy'Igihugu tuzasangamo igiseke. Igiseke rero tugomba kugikomeraho tugakomera ku muco nyarwanda, tukagerageza kugikoresha kandi tukimakaza akamaro kacyo.

Twimakaze umuco Nyarwanda kandi ntuzacike, bimwe mu byifashishwa mu bigaragaraza umuco Nyarwanda, cyane cyane nko mu mbyino tubonamo ingoma, ndetse n'imyambaro itandukanye myinshi dukunze kwita udushaburi, iyo myambaro rero yifashishwa mu bitaramo bitanga amajwi, by'umwihariko igihe hari imbyino aho usanga bifashishije ingoma n'amajwi yabo bwite, na ya myenda yabugenewe.

Ibikomoka ku matungo ni ibintu byiza cyane harimo amata, inyama, amafaranga twifashisha duhaha ibiryo bitandukanye. Kandi nanone kugira ngo tubashe kubona umusaruro uturutse ku nka biradusaba kuzitaho no kumenya uko tuzishakira ibyazitunga kugira ngo zibashe kudaha umusaruro tuzifuzaho.

Mu Rwanda hagaragaramo ibikoresho nyarwanda harimo urusyo, ingasire umukeka ibyo ni ibikoresho twifashisha dusya amasaka ndetse n'izindi mpeke zitandukanye, zikaza kuvamo ifu iyo fu ikifashishwa ahantu henshi hatandukanye mu gukora igikoma cyo kunywa inzoga ndetse n'ibindi bitandukanye.

Isekuru ni igikoresho twifashisha iwacu mu rugo. Dusekura isombe, cyangwa se imyumbati ikaduha ifu. Iyo fu dushobora kuyikoresha tuyitekamo umutsima. Nanone dushobora no kuyikoresha, dusekura ibintu bitandukanye birimo nk'ubunyobwa, kugira ngo bize kuduha ifu n'ubundi tuza kwifashisha igihe tugiye gukora isosi, dutegura ku meza.

Itabi mu Rwanda rirahingwa ariko rihingwa na ba rwiyemezamirimo babiherewe uburenganzira, kugira ngo ribashe gutunganwa binyuze mu nganda tubonemo imiti idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Itabi rero hari n'ibikoresho byifashishwa cyangwa se bikoreshwa barinwa harimo inkono y'itabi, isigara, ikiburiti. Inkono y'itabi rero igira ahantu dushyira itabi twarangiza tugataburiraho ikibiriti, hanyuma tukaza kunywa rya tabi.

Iyo ushaka kwigaragaza ahantu ugomba no kuba hari uko wambaye. Kera rero hari imyambaro yifashishwaga igihe hari ibikorwa byabaye urugero: nk'ababyinnyi bambaraga imyenda itandukanye ariko ikaba irimo udushabure, ibinigi ndetse n'amayugi. Rero niyo mpamvu hari n'imyenda yambarwaga n'abantu babayobozi barimo abami. Iyo myenda rero na n'ubu iracyakoreshwa mu kutagaragara henshi.

Isekuru ni igikoresho twifashisha iwacu mu rugo tucifashisha dusekura isombe cyangwa se tugasekura imyumbati yumye, ikaduha ifu ndetse tugasekuriramo ubunyobwa, bukaza kuduha ifu twifashisha dutegura isosi tujyana ku meza, kugira ngo abaza gufungura babashe kuyifashisha.

Igisabo ni igikoresho cyiza twifashisha iwacu mu muryango cyane cyane ahantu habaye ubukwe aho usanga umugeni agifata akagitereka ku ruhande, agafata inkongoro akakiyishyira ku ruhande yarangiza agashyiramo amata akayabuganiza, ibyo tukavuga ko bikorerwa kuruhimbi. Niyo mpamvu dukwiye kugikurikirana rero tukagifata tukamenya n'umuco wacu nuko dukwiye kugikoresha neza.

Amasaka ni igihingwa duhinga tugamije kubona umusaruro, kugira ngo umusaruro uvuyemo udufashe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Urugero: Ni igihingwa cyera hanyuma tukaba dushobora kukibetesha ku mashini, tukabona ifu y'igikoma cyangwa se tukabona ifu twifashisha duhogera mu kunyarwanda, kugira ngo tubashe kubona inzoga.

Gusomera ku ntango ni umuco nyarwanda. Bihuza abatashoboraga guhura bagasabana, bakaganira, bakunga ubumwe, bagahana abageni, bagahana ibintu byinshi bitandukanye, umuco nyarwanda wo gusomera ku ntango rero wahozeho, uzahoraho, kandi ni mwiza cyane.

Mu gihe tubona ko dushobora kwatakwa ni ibiza nk'amazi, twagakwiriye gukora umuganda rusange. Tugahurira hamwe, amazi tukayaha inzira, akabasha kugenda neza, nta bintu yangirije. Urugero amazi ashobora kwangiriza ubuhinzi bwacu, akangiriza aho dutuye, niyo mpamvu twari dukwiye gukora umuganda rusange, hanyuma tukayereka inzira, tukayaha inzira akanyuramo akagenda neza nta cyo abashije kwangiza.

Igiseke ni igikoreshasho cyiza dukwiriye kwitaho tukakibungabungira umutekano wacyo, kuko igipfundikiriye mu giseke gitera amatsiko, ni yo mpamvu tukifashisha mu birori byinshi bitandukanye ,nitujya no mu kirangantego cy'Igihugu tuzahasanga igiseke ,rero igiseke gisobanuye byinshi byiza, kiba gipfundikiye ni yo mpamvu dukwiriye kukifashisha mu muco nyarwanda, ndetse tukanagikoresha tugikunze.

Ingagi ni inyamaswa ziba mu ishyamba, ariko izo nyamaswa zikaba zifite imiterere ijya kumera nk'aho ari iy'abantu, n'uyitegereza neza urasanga ari inyamaswa, ariko ifite forume ijya gusa neza nk' umuntu, n'inyamaswa nziza rero ziza zisurwa na benshi mu Rwanda bityo bakabasha kwinjiriza igihugu amafaranga ariyo twa twita amadovize, niyo mpamvu dukwiye kuzifata neza kubera ko zidufitiye akamaro.

Inyambo ni inka igira amahembe maremare, ikayatega. Benshi dukunze kubyina imbyino yitwa amaraba. Iyo tubyina imbyino y’amaraba, dutega amaboko nk'uko amahembe y'inyambo aba ateze. Ni yo mpamvu dukwiriye gukurikirana umuco nyarwanda, tukamenya umuco wazo, tukamenya inyambo n’iki. Imyamba rero ni inka ya kera, kenshi zakundaga kugaragara i Bwami, ziteze amahembe mu buryo bw’amaraba mu mbyino tubyina uyu munsi.

Duseruke duserukane isheja. Ayo ni amagambo akunda gukoreshwa mu muco nyarwanda, igihe turi mu bitaramo, imbyino twifashishije ingoma ndetse n'indi myambaro itandukanye irimo imishanana, kugira ngo dutambutse ubutumwa dushaka kugeza ku bo dutaramiye.

Igiseke ni igikoresho cyiza cyane twifashisha ahantu henshi hatandukanye harimo kugitwaramo impano zikoreshwa mu bukwe akenshi. Igiseke rero gifite ubusobanuro bukomeye cyane, kuberako nitujya no mukirangantego cy'igihugu tuzasangamo igiseke. Igiseke iyo gipfundikiye ntushobora kumenya icyihishe imbere, nyiri amatsiko rero aba ashaka kumenya icyihishe imbere n'iyo mpamvu igiseke ari igikoresho gifite agaciro.

Imbyino ni iki? Imbyino ni igikorwa kibera ahantu runaka kigamije gushimisha abantu benshi, kiba gitambutsa ubutumwa mu mbyino ndetse no mu ndirimbo binyuze mu gutanga umuziki unoze kandi unogeye amatwi mu gihe abawumva barimo no gukurikirana imbyino zawo.

Inkongoro ni igikoresho kiza cyane dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, by'umwihariko cyane cyane igihe turimo turafata amata, niyo mpamvu rero dukwiriye kuyikomeraho, tukubahiriza imikoreshereze yayo, mu buryo bwo kutangiriza ibyo yagakwiriye kuba ikoreshwa.

Kubona cyangwa se ububoshyi ni umuco kuko kera kugera na n'ubu turaboha, tukaboha imikeka, tukaboha ibirago. Ibirago biri mu bwoko bw'umukeka twaba tubiboha dukoresheje ubusuna .Ubusuna ni ubwatsi duhinga ahantu hari amazi menshi, bukabasha gukura neza bityo tukabufata, tukabusarura, tukabwanika, tukabuhonda, tukabasha kububohamo ibirago.

Dukunda gukoresha ibintu bya kinyarwanda, nanone ibintu bya kinyarwanda tubizirikane tubikomereho, kuko birashoboka ko uyu munsi cyangwa ejo dushobora kubura ibikoresho bya kizungu, birimo imashini, ushobora gusanga nk'umuriro wagiye wari ugiye kubetesha ni yo mpamvu tugomba kwifashisha urusyo. Nanano rero iyo dukama twifashisha umuvure ni umuvure ni igikoresho cyifashishwa dukama ibitoki, tukabasha no gutara tukazabasha kubona inzoga.

Tugira icyo twita gusangirira hamwe, rero mu muco nyarwanda dusangirira hamwe, tugasangira ibyo dufite binyuze mu gufata ibyo twahinze twejeje hanyuma tugateka tugasangira, tugasangirira hamwe ku byo twise imbehe, ku nkoko, cyangwa se ku ikoma hanyuma na buri wese akabasha kurya tukava aho ngaho twese tunyuzwe n'ibyo turiye.

Abantu bajya mu bashyitsi cyane, bakunda kubona abantu bari gutanga ibiseke. Ibiseke ni ibikoresho byiza cyane twifashisha igihe turi mu bukwe, igihe turi gutanga impano. urugero; Umukwe ari guha nyirabukwe icyibo aricyo twita gisheke, kiba kirimo n'izindi mpano. Niyo mpamvu rero niyo umukazana ari guha nyirabukwe igiseke, aba yashyizemo impano. Tujye dukunda kubikoresha cyane kuko yari mu umuco.

Igicuma, uruho cyangwa se urukiza, umuseke, inkoko, kera iyo twajyaga kurya twifashishaga imbehe cyangwa inkoko, tugasukaho ibiryo tugasangirira hamwe nk'umuryango, ari na yo mpamvu kuri ubu ngubu usanga abenshi bakoresha imikeka. Uwakoze umukeka yashingiye ku icyo kirago dukora mu cyo twita ubusuna, kinifashishwa mu muco nyarwanda cyane cyane mu misango y'ubukwe.

Tumenyereye kumva ijambo gukama gukama inka gukama ihene, amahenehene ariko na none dukama ibitoki, ibitoki turabitara bigashya byamara gushya tukabikama, dushobora kubikama twifashishije iyi mashini ariko nanone twabikama twifashishije umuvure mu muco wacu. Ni yo mpamvu ibitoki iyo tubitaze bigashya turabikama tukabikama twifashishije umuvure kugira ngo tubashe kubona umutobe, umutobe tuwubyazemo inzoga.

Imbyino. Imbyino zikorwa n'abantu batandukanye, niyo mpamvu iyo twakira abashyitsi cyangwa se turi muri ibirori runaka, dukwiriye akenshi kuba dufite ababyinnyi kugira ngo babashe gutambutsa ubutumwa binyuze mu ndirimbo ndetse n'imbyino bityo bishimishe abantu bahari kuko biba binoze kandi binogeye amatwi ndetse biberewe no kurebwa n'abantu.

Isuka ni igikoresho twifashisha mu buhinzi. Iyo duhinga dukenera guhinga ahantu hatandukanye mu gukomera. Ni yo mpamvu rero hari ahantu dushobora guhinga tukifashisha ibindi bikoresho bitari isuka. Hari aho duhinga bikaba ngombwa ko tugomba gukoresha isuka. Ni yo mpamvu rero dukwiriye kuyifata neza, kuko idufitiye akamaro binyuze mu kuyihingisha, tugatera imyaka tukaza kubona ibidutunga mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Igiseke ni igikoresho cyiza mu umuco nyarwanda dukoresha. Igiseke rero kigaragaza ibintu byinshi, niyo mpamvu kijya mu kirangantego cy'igihugu, tuzasangamo agaseke, rero kakaba gasobanuye byinshi mu kirangantego. Iwacu mu muco wacu iyo tugiye gutanga impano cyane cyane mu bukwe twifashisha igiseke. Ntabwo ushobora guhereza nyokobukwe impano itari mu giseke, itari mu giseke aho ukwiye kuyifunga mo kado.

Imberehe n'isahani nziza cyane ikunda guhoza ibiryo vuba igihe tugiye kurya, niyo mpamvu rero imbehe yakorega mu rwanda rwo hambere, ariko na n'ubu harahuzekigaragara zifashishwa ,rero mu ibiryo uko byaba byiza kose bikajya ku mbehe bihita bihora, niyo mpamvu rero dukwiriye ibi bikoresho kubifata neza, tukabibungabunga tukagerageza no kubikoresha aho bitakiri kuko umuco ntugacike.

Mu muco nyarwanda dukunda kugira ibirori byinshi bitandukanye. Tukagerageza gutaramira abaje batugana, tukabashimisha mu buryo bunogeye amaso, ndetse n'amatwi binyuze mu gufasha ibikoresho bitandukanye birimo inanga, iningiri, ingoma, ingoma rero yahoze ikoreshwa kuva kera hose kugera nan'ubu yifashishwa mu gukora umuziki, bityo ubu tukabasha kufasha abantu kwishima.

Nk'ibisanzwe umuriro w'amashanyarazi urangiriza, ushobora kwangiriza buriya nta kintu kitagira ibyiza n'ibibi, ni yo mpamvu dukenera icyo bita fiyuzi cyangwa se igikoresho gishobora gukupa umuriro w'amashanyarazi, mu nzu yose cyangwag se agace runaka igihe hagaragaye inkongi y'umuriro, ibyo bikoresho rero twita fiyuzi hari ibyikupa hari n'ibitikupa. Byaba byiza dukoresheje ibyikupa kuko ari byo byadufasha n'igihe tutabashije kuba duhari, hari ikibazo kibaye.

Mu buryo bwiza bwo gukoresha umuriro iwacu w' amashanyarazi ni kuko twagakwiriye kugira ibikoresho bihagije twifashisha. urugero: tugira insinga ziduha amashanyarazi, izo nsinga zigomba kuba zirinzwe hari ubwirinzi ku buryo zidashobora kugira uwo zangiza. urugero: niba tugiye gucana umuriro w'amashanyarazi twagombye kugira aho ducanira amashanyarazi. Hariya hantu ducanira rero twagakwiye kuhakoresha neza tukirinda ko hashobora kudutera izindi ngaruka zitandukanye.

Urusengero ni ahantu hadufasha kudutagatifuza, ndetse tugatagatifuza n'abandi. Niyo mpamvu rero dukwiriye kubungabunga, tukaruha umutekano, kugira ngo babashe kuwukoresha neza, batabangamiwe.

Gusenga ni byiza biradufasha, Imana iriho yahozeho kandi izahoraho. Niyo mpamvu dukwiriye kuyikomeraho tukumva ijambo ryayo dushingiye ku bitabo ndetse n'amasomo matagatifu yanditswe n'abahanuzi.

Imodoka ni ikintu cyiza cyane twifashisha mu ngendo, tuva ahantu tujya ahandi cyangwa se cyo twita urujya n'uruza rw'abantu urujya n'uruza rw'abantu bashobora gukoresha amaguru cyangwag se bagakoresha ibinyabiziga birimo imodoka, imodoka rero ni ikinyabiziga cya moteri cyihuta, gishobora kugenda ibirometero birenze kimwe cg se byinshi cyane, mu gihe cy'isaha ni yo mpamvu dukwiriye kubifata neza tukamenya n'uko tubikoresha, mu buryo bwo kwirinda impanuka ziterwa na byo.

Ni iki kitubwira ko tugeze ku biro by'umurenge? Ni idarapo. Ni iki kitubwira ko kutugeze mu kigo cy'ishuri? Ni idarapo. Ni iki kitubwira ko tugeze mu rusengero? Ni umusaraba. Umusaraba ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza inzu yifashishwa dusenga. Urusengero rero rukwiye kwifashishwa dukuramo imico myiza itandukanye, twigana Bibiliya ijambo tu....

Umuturirwa ni inzu iba igeretse inshuro zirenze imwe, rimwe na rimwe usanga hari n'izifite icyo twita kave mu ndimi z'amahanga, inzu iba yubatse hasi imeze nka aho itabye. Rero umutirirwa akamaro kawo rimwe na rimwe nubwo usanga kari kutujijisha, umutirirwa ugabanya u ubuso twakagombye kubakaho ku butaka.

Mu ndimi z'amahanga tugira icyo twita positedesante, positedesante ni ahantu hakurikiranye na santerede sante, positedesante rero ikaba ifasha abarwayi mu buryo bworoheje ,kugira ngo ibavune amaguru, cyangwa se ibafashe kudakora urugendo rurerure bajya kuri santeredesante, iyo rero bibaye ngombwa ko umurwayi yabasha kujya kuri santeredesante, bamuha icyangombwa kimujyanayo, kugira ngo babashe gukurikirana uburwayi bwe.

Iyo dusaba serivisi ku murenge, twifashisha ibyangombwa bitandukanye, urugero nk’ifishi, yo gusaba serivisi z’Umurenge Sacco. Hifashishijwe ikoranabuhanga, dushobora gusaba iyo serivisi tukifashisha kuzuza ibyangombwa. Bityo, uyiduha akabasha kubona neza serivisi dushaka, kugira ngo abashe kuduha ubufasha twifuza.

Inama ikorerwa ahantu habugenewe. Cyangwa se aho ariho hose hahiswemo kugira ngo habashe kwigirwa igishobora gufasha sosiyete, cyangwa se umuntu ku giti cye, bityo abashe kubaho neza muri sosiyete. Niyo mpamvu rero dukwiriye kubyitaho, tugakora inama, kugira ngo tubashe kureba ibikwiriye gukemuka muri sosiyete turimo, cyangwa se ibyo umuntu akwiriye gukemura ku giti cye.

Gaze ni igikoresho twifashisha duteka, gishobora gukoreshwa nka rondereza, niyo mpamvu uzasanga gaze nyinshi nta n'imwe ushobora gusanga idafite ishyiga. Ishyiga ni hamwe turambika isafuriya yacu cyangwa igikoresho cyacu twifashishije mu guteka kugira ngo kibashe gufata ubushyuhe ibikirimo bibashe gushya, hanyuma tuze kubifata byujuje ubuziranenge.

Tugerageze gukoresha imihanda neza twirinda impanuka za hato na hato. Kuko mu muhanda tugira amategeko y'umuhanda. Mu muhanda imodoka yagakwiye kugira aho inyura bitewe n'amategeko y'umuhanda akoreshwa muri icyo gihugu.

Umuturirwa ni inzu ifite amazu menshi agerekeranye arenze imwe, niyo mpamvu rero dukwiriye kuyifashisha tukayubaka kubera yuko adufasha guhangira ubutaka dufite niba twari turubaka inzu icumi ku buso bungana na hegitari mu ndimi z'amahanga bushobora izo nzu icumi zishobora kujya ku buso magana abiri mirongo itanu binyuze mu kubaka umuturirwa.

Kaburimbo n'umuhanda ukoreshwa n'ibinyabiziga, uwo muhanda ukaba ufite ibice bitandukanye kubera ko hanyumo ibinyabiziga bibisikanaho, niyo mpamvu rero dukwiriye kuyifashisha kandi tukabungabunga umutekano wawo tukagerageza no kuwufata neza, kugirango utabasha kwangirika kuko ukeneye gukoreshwa n'abantu benshi batandukanye, kaburimbo rero ni umuhanda ubu ukoze mu isima ivanze n'icyo twita godoro kugirango ibashe gukomera ibinyabiziga ba biyikoresha.

Ibiro by'Akagari, ibiro by'Akagari ni inzu cyangwa se ahantu hatangirwa serivisi n'umukozi w'Akagari, iyo serivisi ishobora gukenerwa n'umuntu umwe cyangwa se bakaba barenze umwe. Ibiro by'Akagari rero bidufasha kubika ibikoresho bimwe na bimwe biduha cyangwa se byifashishwa mu guhabwa serivisi zitandukanye. N'iyo mpamvu rero dukwiriye kubifata neza tukabibungabunga, tukabirinda ibiza n'ibindi bintu bishobora kubyangiriza.

Ibiro n'ijambo rihabwa ahantu hakoreshwa n'umuntu umwe cyangwa se barenze umwe, batanga serivisi baziha abandi bantu bazikeneye, niyo mpamvu rero nituvuga ngo ibiro by'akagari n'ahantu dukenera serivisi tukajya kuyishakaho tukayihabwa n'umukozi uhashinzwe.

Urusengero ni ahantu tubasha kwitagatifuriza dusenga Imana, tuganira n'Imana nkuko umwana aganira n'umubyeyi we, niyo mpamvu rero dukwiye kufata neza tukahabungabungira umutekano waho tukaharinda, ibishobora kuhangiriza kuko ari kimwe mu byo dufata nk'ibikorwa remezo, buri wese akeneye no gukoresha igihe yumva aribyo biri bumuhe umutekano.

Musenyeri ni umuntu watowe n'imana. Ni umuntu ukomeye cyane, ni umuntu ufite izina rya nyiricyubahiro, ni umuntu ukwiye icyubahiro kandi ugihorana. Niyo mpamvu muri Kiliziya Gatolika ndetse n'ahandi mu matorero tugira umuntu ufite izina rya musenyeri. Musenyeri rero abahagarariye amwe mu maparuwasi akorera muri diyosesezi.

Public assets ni umutungo rusange. Umutungo rusange ukoreshwa na buri umwe wese kugira ngo awubyaze umusaruro kandi umugirire akamaro. Niyo mpamvu dukwiriye kubungabunga kugira ngo twirinde ko ushobora kwangirika. Bityo bikadufasha kuwucungira uburambe bwawo, bityo bigatuma ari twe, ari n'abazadukomokaho n'abazabakomokaho bazabashe kuwukoresha ugifite umwimerere.

Umuturirwa ni inzu idufasha guhangira ubutaka, tukirinda gukoresha ubutaka bwinshi cyangwa ubutaka bunini . N'iyo mpamvu iyo twubatswe umuturirwa abantu bashobora gutura hasi mu nzu ya mbere cyangwa se mu cyitwa kave, abandi bagatura hejuru bityo bikadufasha guhangira ubutaka butoya dufite, buri wese akabasha kubona aho aba.

Mu gihe u Rwanda rwacu twagiraga inka zitwa inyambo, inka zitwa inyambo ni inka ziteze amahembe ari byo dukunda kwigana tubyina tukabyita imbyino y'amaraba. Kuri ubu rero hari izindi nka zitagira amahembe zitwa inkungu cyangwa se iziyamira bakaza kuyotsa, izi nka zifashishwa mu miryango itandukanye nka girinka bakazibarura bakazitera amaherena, kugira ngo zifashe abaturage kwiteza imbere babona ifumbire ndetse n'amafaranga, abafasha kurihira abana babo ishuri ndetse n'abatunga.

Aho dukorera hakwiye kugaragazwa n'ibirango bitandukanye, kugira ngo uhagera wese abashe guhita yibwira igikorerwa aho hantu, cyangwa se abashinzwe aho hantu, cyangwa se icyo aho hantu hamaze. Urugero nko ku bigo by'amashuri, ibitaro ku biro by'ubuyobozi, dukunda kuhasanga idarapo. Idarapo ni kimwe rero mu bigaragaza ko ibikorerwa aho ngaho byemewe n'Igihugu.

Kiliziya ni iki? Kiliziya ni ikoraniro ry'abayoboke batagatifu bakikije umusaserdoti bateze amatwi ijambo ry'Imana, baturi igitambo cy'ukarisitiya. Ni yo mpamvu rero dukwiriye kwifata neza kubera ko idufitiye akamaro, idufasha kwitagatifuza ndetse no gusenga, bityo buri wese akabasha kugira amahoro mu mutima we.

Amashuri ni inyubako nziza zifasha abantu benshi binyuze mu kwiga. Bagakurikira amasomo kugira ngo babashe kumenya gusoma no kwandika neza bityo ejo hazaza bazabashe kubaka igihugu cyiza bifuza ndetse na sosiyete nziza ifite abaturage bazi gusoma no kwandika neza.

Urusengero ni ahantu dusengera bityo rukabasha kukwitagatifuza, dusenga Imana, niyo mpamvu dukwiye kuhafata neza, tukabungabunga kugira ngo uje ahagana wese ahabonere ubufasha yifuza, bityo bitume abasha gutuza mu mutima we, agira amahoro ndetse binafashe sosiyete kugira abakristu cyangwa se abaturage bafite umutekano.

Dukunde kwifashisha imyambaro, igihe turi mu kazi kandi dukoreshe imyambaro yabugenewe, kugira ngo ubasha kugira ikibazo bimufashe gutabarwa, atabarwe nk'umukozi dukorana, bityo rero niyo mpamvu dukwiriye kubahiriza umwambaro, tukawambarira ku gihe kandi tukabasha kuwufata neza.

Gereza ni ahantu dushyira umuntu wakoze amahano cyangwa se ufite icyaha runaka, kubera ko muri sosiyete tuba tutizeye neza ko adashobora kongera gukora icyo cyaha, ni yo mpamvu umuntu wese wakoze ikosa rimubuza kuba muri sosiyete rusange akwiriye gushyirwa ahantu, agakomeza gukurikiranwa ubuzima bwe ntibujye mu kaga, ariko akabaho abaye mu mutekano ariko adashobora kugira ibindi bintu ashobora kwangiriza kubera kamere ye.

Bibiliya ni igitabo dusangamo ijambo ry'Imana, ridushishikariza kugira imico ya Yezu Kristu. Benshi dusenga, tujya mu nsengero zitandukanye. Hari amadini ndetse n'amatorero. Dukunda kujya gusengera muri kiliziya. Nk'uko Gatigisimu ibivuga, kiliziya n'imbaga y'abakirisitu y'umuryango w'abemera Kirisitu bose. tujyemo dukuremo inyigisho nyinshi zitandukanye zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ibicu ni iki ? Ibicu ni bimwe tubona mu kirere bigenda, bitewe n'uko ikirere kimeze. Ikirere kimeze neza kiba gisa n'ubururu. Iyo kitameze neza, hagaragaramo ibicu by'umweru, n'ibindi byijimye ari nabyo tuvuga ko bitanga imvura. Niyo mpamvu rero twirinda kwangiriza ikirere cyacu, bityo tunirinda gutera icyo twita mu ndimi z'amahanga gorobo wamingi. Niyo mpamvu buri wese akwiriye gukora ibishoboka, akabungabunga ikirere, akirinda ko gishobora guhumana.

Igihe twubaka inyubako zacu reka tugerageze no kugaragaza icyo zikora. Reka tugerageze kwereka buri umwe wese igikorerwa aho hantu iyo nyubako iri. Ni yo mpamvu rero dukwiriye kwifashisha inyandiko y'ibyapa biranga ibikorerwa aho dukorera, cyangwa se twubatse hakorerwa imirimo itandukanye.

Inama ni igikorwa gihuza abantu barenze umwe hanyuma bakabasha kuganira ku kibazo bafite cyangwa se ikibazo kiri muri sosiyete rusange, bityo bigafasha abaturage kujijuka no kumenya kugaragaza ibibazo bafite cyangwa se no kumenya uko bakwiriye kwitwara muri sosiyete kugira babeho bafite amahoro n'umutekano.

Dukwiriye kugendera inzra imwe. Urugero dukunda gushishikarizwa gukurikira igihe turi mu ishuri. Niyo mpamvu dukwiye gutega amatwi ndetse tukita ku gikorwa kiri gukorwa na mugenzi wacu. Dushobora kuba turi kwiga twese tugakurikira, dushobora kuba turi gufata ifoto twese tugakurikira, bityo tukahavana ubumenyi bungana kandi buzatugirira akamaro.

Porisi mu ndimi z'amahanga cyangwa se abashinzwe umutekano n'abantu babungabunga umutekano w'igihugu muri rusange ndetse n'abantu ku giti cyabo. Niyo mpamvu dukwiriye kubafata neza tukabubaha, tukabasha gutangira amakuru ku gihe, tukabaha amakuru ashobora kubangamira sosiyete kugira babashe gukurikirana ibyo bibazo bikemuke vuba bityo tubashe kugira umutekano usesuye.

Cyangwa se ahantu hakorerwa inama. Inama rero ikorwa n'abantu babiri cyangwa se barenze umwe. Bityo bakabasha gufata umwanzuro, bakiga, bakunguka ibitekerezo by'uko bashobora gufata imyanzuro mu gukemura ibibazo byabo bwite cyangwa se ibibazo rusange. Ni yo mpamvu umuturage wese mu gihugu akwiriye kujya mu nama akahungukira ibitekerezo, akanamenya uko yakwitwara. Bityo akabasha gushobora kuba mu muryango mugari neza.

Abaturage twese dushishikarizwa kujya hamwe tukiga ku bibazo dufite, kugira ngo tubashe kubikemura tubifashijwemo n'ubuyobozi cyangwa se n'abaduhagarariye, kandi bitabujijwe ko natwe ubwacu dushobora kubyikemurira. Niyo mpamvu rero dukwiriye kwitabira inama. Inama ni ahantu twicara duteraniye turenze umwe, hanyuma tukiga ku bibazo dufite tukabasha no kubikemura

Ni byiza ko dukorana inama n'abanyeshuri. Kwiga si uguhora mu ishuri, kwiga ntabwo ari uguhora umuntu yaandika ahubwo kwiga biri mu bintu byinshi. Mu ndimi z'amahanga Education dushobora kugira icyitwa formal education na non-formal education. Rero abanyeshuri bacu dukwiriye kubigisha bityo bikanyura no mu kubicaza hamwe tugakorana inama kugira ngo tugire ibyo twigaho mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Reka turusheho kwihangira imirimo, dushaka impushya zo gutwara ibinyabiziga, cyane cyane nyuma yo kubona uruhuja rwo gutwara ibinyabiziga tukabona n'ikinyabiziga cyo gutwara twite ku mategeko y'umuhanda, twubahirize imikoreshereze y'umuhanda, tugende neza mu muhanda mu buryo bwo kwirinda gukora impanuka cyangwa ngo tutaza kwiyangiriza, tukangiriza na bagenzi bacu.

Dukunde gutembera dutemberane ndetse n'imiryango yacu, dutemerana n'inshuti n'abavandimwe. Kandi mubutembere bwacu tubashe kugirana niyo mpamvu igihe dutembera rero dukwiye kwifashisha ibikoresho bitandukanye, kugira nitugera mu nzira tunaniwe tugire ibidufasha kuruhuka. Urugero dushobora kwifashisha igare, ikinyabiziga gitandukanye cya moteri. Bityo tukarusha gutembera neza tukabasha no kunguka ubumenyi.

Indege idufasha mu buryo bwinshi butandukanye burimo gutwara ibintu na abantu, niyo mpamvu indege iyi igenda inyura mu kirere, ntabwo ikoresha imihanda nk'ibisanzwe cyangwa se inyure mu mazi, nkuko tumenyereye ko no mu mazi tunyuramo dutwara ibintu ndetse n'abantu, indege rero yo irafurayinga mu ndimi z'amahanga, iraguruka inyura mu kirere igatwara ibintu n'abantu ndetse bitari bikeya niyompamvu dukwiriye rero kgerageza kuyikoreshashwa...

Hoho ni ikinyabiziga twifashisha igihe turi gukora imihanda, ndetse tunasiza ahantu dukeneye kubaka amazu. Iki kinyabiziga rero tukifashisha dushyiramo ibikoresho, cyangwa se dupakiramo ibitaka turi kuvana ahantu hacu turi gutegura, kugira ngo tubashe kuhashyira inyubako runaka.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange dukwiye kuzifata neza tukazibungabunga tugacunga umutekano wazo tukabasha kuzikoresha, kugira ngo tubiririnde guhumanya ikirere, binashobora gutera kwangirika kwagakingirizo k'izuba, rero twirinde kugendera mu modoka zacu bwite, kuko fiyuwerizi zisohora ni nyinshi ugereranyije na fiyuwerizi yasohoka twese twagiye mu modoka imwe rusange.

Ritiko ni imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, iyi ni imodoka nziza cyane aho buri wese agenda yicaye, ifite ububiko bw'aho kubika ibikapu, iba ifite aho gucaginga amatelefone, rero reka dukoreshe imodoka za rusange cyane cyane izi modoka za ritico kubera ko zujuje ibisabwa, kandi ni dukoresha imodoka za rusange bizadufasha no kugabanya imyuka mibi ishobora guhumanya ikirere igihe buri wese yakoresheje iye bwite.

Abantu dukunda kugenda mu modoka inshuro nyinshi akenshi na kenshi tuzisanga muri gare. Gare rero ni ahatu heza cyane dusanga imodoka zahagaze zitegereje abagenzi, kugira ngo tuzigendemo ,rero abantu dukunda kugenda n'imodoka dukwiriye gushishikariza na bagenzi bacu kujya barajya mu magare kugira ngo batege, bityo bagende bameze neza, bafite umutekano, kandi bafite n'ibyangombwa byuzuye bahawe na ba nyiri imodoka.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. imodoka nziza zidufasha kwirinda guhumanya ikirere , kubera ko buriwese akoresheje imodoka ye busohora umwuka mubi benshi tuzi kw'izina rya fiwere bishobora guhumanya ikirere niyompamvu iyo dukoresheje imodoka imwe rusange tukagenda turi mirongo irindwi ibi bifasha sosiyete ndetse n'aho turi gutaha kutangirika kubera umwuka mubi , umwuka mubi uragabanuka.

Ritico ni imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Dukwiriye kwifashisha ritiko mugihe dukora ingendo muburyo bwo kugirango twirinde guhumanya ikirere twifashishije ibinyabiziga bwite. Niyo mpamvu abantu mirongo irindwi bajya muri ritiko buri wese umuhaye imodoka, ikirere cyabasha guhumana cyane bitewe n'imyuka mibi isohoka muri bya binyabiziga mirongo irindwi, niyo mpamvu duhitamo gukoresha ikinyabiziga kimwe kugira ngo tubashe kubungabunga umutekano w'ikirere.

Ubwato ni igikoresho cyiza twifashisha igihe twambuka, tuva ahantu hamwe tujya ahandi tunyuze mu mazi. Rero ni igikoresho cyiza kidufasha kwambuka, kuko kireremba hejuru y'amazi, hanyuma tugashyiramo n'imizigo dukeneye kwambukana, tugakoresha igikoresho cyitwa ingashi tukagasha tukambuka, tukabasha kugera aho tugiye nta nkomyi.

Public transpot mu rurimi rw'amahanga, cyangwa se gukoresha imodoka rusange. Imodoka rusange rero ziradufasha cyane buryo bwo kudahumanya ikirere. Ikirere cyacu gishobora guhumanwa no gukoresha ibinyabiziga byinshi, bitewe n'uko buri wese yakoresheje icye. Ariko nidukoresha ikinyabiziga rusange, ntabwo bizahura n'uko naba mfite imodoka kanaka fite imodoka, bityo bikabasha gutanga umuka mubi mu kirere, hakaba icyo twita global warming.

Gare ni ahantu haparika ibinyabiziga byacu habugenewe, mu gihe abantu bakeneye kubikoresha bakaza babigana bakabisanga aho ngaho niyo mpamvu dukwiriye kubifata neza tukirinda impanuka zishobora guterwa n'ibinyabiziga twasize muri gare kugirango tubashe kubungabunga umutekano wabyo hanyuma buri wese uje ayigana abashe kuboneramo serivisi nziza kandi inoze ayihawe n'uwo yaje agana.

Ubwato ni igikoresho cyiza cyane twifashisha, iyo dukora ingendo zo mu mazi, niyo pamvu dukwiriye kugikurikirana tubungabunga umutekano wacyo, tukajya gusuzuma neza ko cyujuje ubuziranenge kugira ngo twirinde impanuka dushobora guterwa nacyo, igihe turi kugikoresha mu rugendo rwacu, niyo mpamvu rero ubwato ari igikoresho cyiza gitwara abantu ndetse n'ibintu, tugikurikirane tugisuzume tukigendemo neza, mu buryo bwo kwirinda impanuka zishobora guterwa nacyo.

Tugira imodoka zitandukanye, tukagira imodoka dutwara, ari izacu bwite, tukagira n'imodoka tugendamo mu buryo bwa rusange. Izo modoka rero tugendamo mu buryo bwa rusange Tuzikunde kandi tuzikoreshe neza. Kubera y'uko zidufasha nti duhumanye ikirere mu buryo bwo hejuru kubera ko nukoresha imodoka yawe bwite bizatuma buri wese agenda asohora ibyuka bibi bisohoka muri ya modoka zigahumanya ikirere. Uko twakoresheje za modoka icumi bizaba bitandukanye n'uko twakoresha ya modoka imwe. Bityo tukarinda ikirere cyacu guhumana.

Ubwato ubwato ni igikoresho twifashisha tunyura mu mazi, abantu benshi baribaza ni gute ushobora kunyura mu mazi, amazi na ho ni ni kimwe mu buryo twifashisha tugenda dukora urujya n'uruza rw'abantu, ushobora kuva ahangaha ukajya hariya ariko ukifashisha ubwato. ubwato rero dukwiriye kubwitaho tukabufata neza, kuko tubwifashisha mu ngendo zitandukanye.

gare ni ahantu duparika ibinyabiziga byacu kugirango tubashe kugenda neza, nuje aje ashaka kugenda abashe kugira aho abisanga bityo bigabanye akavuyo cyangwa se akajagari k'imihanda. Niyo mpamvu rero dukwiriye kuhafata neza tukanarinda igishobora kwangiriza icyo ari cyo cyose gishobora kwangiriza ibinyabiziga byinshi mu gihe gito. Niyo mpamvu dukwiriye kubungabunga tukanamenya uko tuyikoresha tukanacunga umutekano wayo.

Ikamyo ni imodoka zikorera ibintu byinshi cyane akenshi na kenshi uzasanga zifite nk'icyo twita ibikontineri cyangwa se igisanduku kiba kibitse ibyo bikoresho byose itwaye. Ikamyo rero zikaba ari imodoka zishobora kugenda urugendo rurerure, kandi zikamara n'igihe mu muhanda.

Moto ni ikinyabiziga buri wese akenera gukoresha kikihutisha urugendo mu buryo bworoshye niyo mpamvu rero dukwiriye kuzitaho tukagerageza kuzikoresha igihe zangiritse mu buryo bwo kugirango twirinde impanuka dushobora guterwa nazo. hanyuma ugitwara nawe akaba afite ibyangombwa kandi anamenyereye cgangwa se yarabiherewe uburenganzira bwogutwara icyo kinyabiziga cya moto.

Igare ntigikiresho kiza twifashisha mu ngendo, kuko cya kurugenda dushobora kugitakiraho imizigo cyangwa sekagitwaraho abantu, mpamvu dukwiriye kurifata neza tukagira tukanagerageza kurikoresha neza, igihe hari ikibazo gihagize mu buryo bwo kwirinda impanuka za hato na hato dushobora guterwa naryo, niyo mpamvu rero buri muntu wese ashishikarizwa kwifashisha ikinyabiziga gishobora gukoresha urugendo nk'igare.

Igare ni igikoresho cyiza cyane twese dukoresha, kikatworohereza urugendo, ni yo mpamvu durikwiye kugikoresha neza twirinda impanuka zacyo dushobora guterwa na cyo, kubera yuko ari igikoresho kimwe kibarwa mu binyamitende kandi gipakira ibintu byinshi, kikabasha gutwara ibintu n'abantu. Ni yo mpamvu rero dukwiye kugikoresha neza tubungabunga umutekano wacu, tukanagerageza kugikoresha igihe biri ngombwa, kugira ngo twirinde impanuka dushobora guterwa na cyo.

Nyuma yo kuza gusuzuma neza tugasanga ikirere hari ibintu byinshi bigihumanya, birimo gutwika amashyamba, imyanda, kujugunya imyanda ku gasozi, ni byiza ko twagakwiriye kumenya uburyo dukwiriye kubifata neza. Bityo ikirere ntigihumane. Urugero: dushobora gukoresha ibinyabiziga rusange kandi na bya binyabiziga rusange tugakoresha ibikoresha amashanyarazi ntidukoresha ibikoresha mu ndimi z'amahanga byitwa fuels, kuko byangiza ikirere.

Iyo duhinga twifashisha ibintu bitandukanye harimo; amasuka, imashini, ibyo n'ibikoresho n'ibkoreshoi twifashisha mu buhinzi, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, ndetse hari n'amatungo twifashisha mu guhinga urugero nk'ibimasa, ibimasa baziririkaho imashini zikagenda bikagendazikurura bityo ubutaka bukabasha kunoga bukamera neza, hakazaza abantu bagenda babutunganya. Izo nyamaswa dudushobora no kuzifasha mu gutwara imizigo, reka rero tuzifate neza kugira ngo tuzifashishe muribwa bu bikoresho...

Tugira ingendo zitandukanye, tukifashisha uburyo butandukanye. Dufite kugenda dukoresheje imodoka mu mihanda, mu ndege duciyeye mu kirere cyangwa se mu mazi. Urugendo rwo mu mazi rero ni urugendo rukwiye kwitonderwa, kuko dushobora guhuriramo n'impanuka zitandukanye, nko kugwa mu mazi nko kubura ibyo twari dufite igihe biguye mu mazi. Niyo mpamvu dukwiriye gukoresha ubu buryo ariko tubyitaho.

Iyo dukoresha umuhanda dukwiye kubahiriza amategeko yawo, niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo tugenda, hari aho tugera tukavuga ngo tugeze muri ambutiyaje, mu ndimi zamahanga ambutiyaje ni igihe umuhanda urimo ibinyabiziga byinshi, bityo bikagenda gake gake bakabasha kugera aho bagiye, dukwiye gukoresha umuhanda neza tukirinda impanuka za hato na hato.

Mu ndimi z'amahanga dukunda kugira ikintu twita ambutiyaje. Ambutiyaje rero ni ubucucike bw'imodoka nyinshi mu muhanda, bigatuma imodoka itabasha kugendera ku muvuduko yagakwiye kuba igenderaho iyo umuntu yihuta, akagenda gake gake. Iyo turi muri ambutiyaje twagakwiye kwihangana kugira ngo tutagenda n'umuvuduko mwinshi tukagira ibyo twangizariza bigatera impanuka.

Mu buryo bwo kubahiriza amategeko y'umuhanda, ni uko imodoka zitwara ibintu n’abantu zagakwiriye kugereranya, zigatwara ibintu byerekeranye n’ubushobozi zifite. Urugero: niba dutwaye imizigo, twagakwiriye gutwara imizigo yacu tukanareba neza ko amatara ndangacyerekezo dushobora kuyubahiriza mu muhanda kandi akabonwa na buri umwe wese. Ndetse tukabasha no gukoresha na za retorovizeri n’ibindi bitandukanye.

Ni byiza ko twiga amategeko y'umuhanda kugira ngo tubashe kumenya gukoresha neza umuhanda ndetse n'ibiranga umuhanda n'imikoreshereze yawo. Ni yo mpamvu iyo turi mu umuhanda, tugomba kugira aho dushyira imodoka zacu cyangwa se ibinyabiziga ,mu indimi z'amahanga twita parikingi( parking ). Ni yo mpamvu rero dukwiriye kwiga amategeko y'umuhanda ,tukamenya kuwukoresha neza ,tukamenya ngo ibinyabiziga binyura hehe? Ibinyamitende binyura hehe? Ibinyabiziga bya moteri binyura hehe ?Amatungo anyura hehe ? Ashorerwa n'abantu bangahe?

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni imodoka nziza cyane zidufasha gukurikirana imibereho myiza y'ikirere cyacu, tukakirinda guhumana ni yo mpamvu twirinda gukoresha imodoka zacu bwite. Abantu mirongo itatu niba bagiye mu modoka rusange, buri wese nakoresha imodoka ye bwite igasohora fiwelizi mu ndimi z'amahanga bizahumanya ikirere, ndetse byangirize n'akayungirizo k'izuba, ni yo mpamvu dukwiriye gukoresha imodoka imwe rusange tukayigendamo mu buryo bwo kwirinda guhumanya ikirere.

Gare ni imodoka zihagarara abantu bazo bazigana cyangwa se bashaka gukora ingendo zitandukanye bifashishije izo modoka bakazisangaho. niyo mpamvu rero gare dukwiye kuyifata neza tukabunga umutekano wayo kuko hagize icyangirikiramo gishobora kwangiriza abantu benshi bajya bashaka serivisi z'uko bagenda bava aho ngaho gare iri berekeza aho bashaka kujya .Niyo mpamvu rero dukwiriye kuyibungabunga tugacunga umutekano wayo mu buryo bwo kuririnda impanuka zahato na hato.

Veyilo Egisipuresizi, ni imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Ni yo mpamvu dukwiye kuzikoresha niba tugiyemo turi ijana bizadufasha gukoresha fiyuweli nkeya idashobora no gupfa kwangiza ikirere. Ariko niba abantu ijana twese dukoresha imodoka zacu bwite buri modoka igasohora fiyuweli byakwangiriza agakingirizo k'izuba bitewe na golobo womingi.

Imodoka za vorukano esipesi n'imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, tukabadushikazwa gukoresha imodoka za vorukano esipesi kubera ko akenshi iyo tuzikoresheje turi tukazigendamo birinda ikirere guhumana, bitewe n'uko uko twagendera mu modoka buri wese akoresheje twakoresheje mazutu cyangwa cse esansi bitandukanye kuko twakoresha ikinyabiziga kimwe turi benshi.

Vole ni umupira mwiza cyane dukwiriye gukina, udufasha gukora siporo ngororamubiri, bityo bigatuma twumva tumeze neza mu umubiri, bikanaturinda uburwayi bwa hato na hato binyuze mu gukora siporo nyinshi, tugasohora amasukari amwe n'amwe tuba dufite mu mubiri, bityo bikaturinda uburwayi.

Ikipe, ikipe ni ijambo rikoreshwa iyo hari abantu bahuriye hamwe bafite intego yo gukina umukino uwo ariwo wose. Niyo mpamvu babyita ikipe. Rero, ikipe ishobora guhangana n’indi kipe kugira ngo iyitsinde, bityo ibashe kuzamura amahirwe yayo, kandi banarushaho gukora siporo ngororamubiri.

Tenisi ni umukino mwiza dukinisha amaboko tugakina umupira abenshi tuzi ku izina rya tenesi. Tenesi ni agapira gato dukina dukikinga mu rurimi rw'amahanga kiki, bityo tukaza kurenza icyo twita netiboro, cyangwa se fure mu gifaransa. rero dukwiriye kuyikina kuko ari siporo ngororamubiri ituma umubiri wacu ubasha kurwanya ikiza cyose kigamije kuwubangamira kugira ngo ubeho neza.

Hari icyo twita mu kinyarwanda inzu mberabyombi. Inzu mberabyombi ni inzu mu ndimi zamahanga dukunze kwita iyifashishwa mu birori ndetse no mu bindi bikorwa bitandukanye, nko kwakira abashyitsi. Rero tugira icyo twita sitade, sitade ni ahantu habera ibintu byinshi bitandukanye birimo umupira w'amaguru, ndetse n'indi mikino itandukanye, kandi hakagira n'igice bicaramo bareba iyo mikino.

Ku isi hari imikino myinshi itandukanye: hari umupira w'amaguru, hari umupira w'amaboko, ndetse tubona umukino wo gutwara amagare. Hari n'umukino wo koga. Koga rero ni ibintu byiza cyane bishobora kugufasha mu buzima bwawe bw'ejo hazaza. Ushobora kugera ahantu, ukabona kuhambuka biragoranye, bikagusaba koga. Niyo mpamvu, rimwe na rimwe, twagakwiye na byo kubyiga kugira ngo bizadufashe mu buzima bw'ejo hazaza, kuko koga ni ingirakamaro, na wo ni umwitozo ngororamubiri.

Iyo dukina umupira dukwiriye nanone gukina n'abandi tuziranye. Niyo mpamvu, iyo tujya gukina umupira dukwiriye kubanza gusuhuzanya, tukanaganira, tukagambishanya. Buri wese akagambisha mugenzi we akamubwira ati "amakuru, bimeze bite, dore tugiye gukina umupira tubashe gukina neza bityo tubashe kubona umusaruro dukuye mu y'umupira tugiye gukina", rero ni byiza kumenyana nabo tugiye gukorana nabo.

Umupira n'iki umupira ni agakoresho gato cyane ariko gahuza abantu barenze umwe bakakarwanira barwaniye kugira ngo bagakoreshe bagakine bagahererekanya babashe gutsinda igitego. Muri uko gutsinda igitego bibafashe kubona intsinzi ndetse no kwishima no gushimisha ibyiyumviro byabo niyo mpamvu rero umupira ni ikintu cyiza cyane duhuriraho tugamije gutsinda uruhande runaka duhanganye narwo dukwiriye kuwufata neza kandi tukawukunda.

Umupira wa basiketiboro. Basiketiboro ni umupira dukina tugenda tudunda nka tenesi dutunda, abanyarwanda benshi bakunze kwita gutimba tenesi cyangwa se umupira. Rero umupira mwiza udufasha kugorora umubiri tugakora siporo ngororamubiri bityo umubiri wacu ufite ubudahangarwa udashobora kwatakwa nindwara za hato na hato cyangwa se kugira upfe gucika intege bikaza kugorana. Niyo mpamvu dukwiye gukunda siporo tukayikora kandi tuyikunze.

Football mu ndimi z'amahanga mu ikinyarwanda numupira w'amaguru. Ni umukino mwiza utuma dukora siporo ngororamubiri bityo bigatuma tugira icyo twita fizikofiti cyangwa se kugira umubiri uteye neza ufite ubuzima buzira umuze udashobora kwatakwa n'indwara zitandukanye bitewe n'uko utujuje ibisabwa binyuze mu kutagira amasukari menshi mu mubiri.

Umukino mpuzamahanga basiketiboro ni umukino dukina kugira ngo tubashe kugorora umubiri. Ni siporo ngororamubiri dukora dukina uwo mupira, ariko tugamije gutsinda ikipe duhanganye na yo. Ni yo mpamvu buri wese ashishikarizwa gukora siporo binyuze mu gukina imikino itandukanye, nka basiketiboro, kugira ngo abashe kugira ubuzima buzira umuze, buzira kwatakwa n’uburwayi bwa hato na hato, binyuze mu gukora siporo ngororamubiri.

Imyitozo ngororamubiri, ni imyitozo myiza cyane idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, niyo mpamvu dukwiriye gukora imyitozo ngororamubiri, harimo gusimbuka, gusimbuka bidufasha kunanuka mu mitsi, mu mavi ndetse no kugira ubuzima bwiza, tukagerageza no gutekereza neza, tukagerageza ndetse no kumva nta mpavunane dufite, binyuze muri iyo myitozo ngororamubiri, imyitozo ngororamubiri rero tuyikunde kandi tuyikore umunsi ku wundi, idufitiye akamaro mu buzima bwacu.

Nk'ibisanzwe dukwiriye kugirana amasezerano, amasezerano yemezwa ryari? amasezerano yemezwa igihe abayagiranye bayashyizeho umukono, iyo batagerageje gushyiraho umukono ntabwo ayo masezerano aba yemejwe, niyo mpamvu umuntu aho uriho hose igihe ugiranye n'undi mugenzi wawe amasezerano, wakwiriye kugirana inyandiko kandi hakajyaho umukono wa buri wese.

Voleboro, mu ndimi z’amahanga, ni umupira dukina, cyangwa se ni umukino dukina twifashishije umupira turenze icyo twita neti, cyangwa se file mu Gifaransa. Ni yo mpamvu rero dukwiriye kuwukina tuwukunze, kuko udufasha gukora siporo ngororamubiri.

Ubucuzi ni kimwe mu bintu bidufasha gutera imbere, niyo mpamvu rero twagakwiriye gukunda, ndetse no gukoresha ibirango biranga ibyo dukora, niba dukora ubucuruzi bw'imyenda, tukaba twambaye imyenda iranga ko kuko dukora iyo myenda, iriho n'ibishushanyo mbonera bigaragaza ko icyo kintu tugikora, bityo bikabasha kudukururira abakiriya batuzanira amafaranga, tukabasha kwiteza imbere, tugateza imbere n'igihugu dutanga imisoro.

Voreboro mu ndimi z'amahanga ni umupira dukinisha amaboko. Umupira rero hari ibyo usabwa kuba wujuje, urugero tugomba kugira icyo twita neti cyangwa se fire mu ndimi z'mahanga turenza umupira wacu bityo tugakina duhanganye n'ikipe runaka kugira ngo tuyitsinde. Niyo mpamvu rero ikibuga cya voreboro mu ndimi z'mahanga dukwiriye kugifata neza tukakibungabunga, tukagikiniramo kubera ko biduha kugira ubuzima buzira umuze.

Iyo dukina twifashisha ibikoresho bitandukanye, birimo imyambaro twifashisha igihe turi mu kibuga, inkweto twifashisha igihe turi mu kibuga, niyo mpamvu dukenera n'umupira, umupira ni kimwe mu gituma abantu bahangana bagamije gutsinda uruhande bahanganye mu mupira, rero dufite umupira w'amaguru n'umupira wa voreboro na basiketiboro, muri voreboro umupira ukinwa hifashishijwe intoki no kurenza fire.

Iyo dutembeye turi kumwe n'abana, turi kumwe n'imiryango yacu, birabashimisha cyane, niyo mpamvu rero, iyo dutembera tujya ahantu hatandukanye, urugero: mu ma hotel, rimwe na rimwe akenshi, iyo dutembera mu ma hotel, tuzahasanga amapisine, mu indimi z'mahanga ,picine rero yifashishwa, abantu baruhuka, bari koga, bakumva bameze neza, bakananuka mu mubiri, ndetse ari nayo yifashishwa mu buryo bwa sport, niyo mpamvu dukwiriye kuyifashisha, igihe cyose .

Handiboro mu ndimi z'amahanga ni umukino dukina dukoresheje amaboko. Bityo tugamije gutsinda ikipe duhanganye nayo. Niyo mpamvu rero dukwiriye kuwukunda tukawukina tuwukunze, kubera kudufasha kugira ubuzima buzira umuze binyuze mu gukora imyitozo ngororamubiri. Rero umukino wa handiboro tuwukurikirane, tuwukine, tuwushikariza na bagenzi bacu kuko udufitiye akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Isiganwa ry’amagare ni umukino mwiza cyane. Buri wese usanga arangamiye kureba umuntu urawutsinda ari uwa mbere. Ni umukino mwiza, abawukina ubafitiye akamaro kuko ubafasha kugaragaza impano zabo, ndetse bakabasha no gukora siporo ngororamubiri, ari nayo nziza cyane mu mubiri wabo. Ibafasha kubaho, bafite ubuzima buzira umuze, buzira gufatwa n’indwara za hato na hato.

Kwirukanka n'umukino mwiza cyane dukwiriye kwitaho, kubera yuko ubu buzima bwacu dukenera gukora siporo, kandi siporo zidufasha mu buryo bwinshi butandukanye urugero nko kugira ubuzima buzira umuze, tudashobora gufatwa n'uburwayi bwa hato na hato, niyo mpamvu dukwiye gukora siporo twiruka ndetse tugakora siporo itandukanye, ariko cyane cyane tukibanda kuri siporo yo kwiruka, kubera yuko idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubaho neza binaturinda uburwayi butandukanye.

Abantu bose bakunda gukina umupira, kubera ko bakunda gukora siporo ngororamubiri cyane. Bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bityo bigatuma aba batabasha kurwara indwara za hato na hato, ziterwa no kudakora siporo. Ni yo mpamvu rero, umuntu wese akwiriye gukunda gukina umupira, kuko bidufitiye akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Dukunde gukina umupira, kandi abantu bakunda gukina umupira babishishikarize na bagenzi babo.

Gukina umupira ni bimwe mu bidufasha kubona ubuzima bwiza binyuze mu gukora siporo ngororamubiri. Bigatuma umuntu abaho, umubiri we ushobora kurwanya indwara cyangwa se udukoko twose dushobora kuza tumwataka tukaba twamutera uburwayi. Niyo mpamvu rero dukwiriye gukunda gukina umupira, kuko uri m'ubwoko butandukanye. Ushobora gukina umupira w'amaguru, ushobora gukina umupira w'amaboko, handball mu ndimi z'amahanga. Dukunde siporo rero kuko ari nziza.

Amarushanwa ry'amagare, ni amwe mu marushanwa arimo amahirwe ndetse tubasha no kuboneramo impano zacu, cyangwa se iza bagenzi bacu, niyo mpamvu rero dukwiriye kuyitaho, natwe tukagerageza kugira amarushanwa ameze nkayo, cyangwa se n'andi bijya gusa, kugira ngo tubashe kugira umubiri, cyangwa se ubuzima bwiza buzira umuze.

Siporo ni nziza cyane tuyikunde, kuko idufasha gusohora amwe mu masukari ndetse n'amavuta menshi tuba dufite mu mubiri, bityo amasukari akabasha kutuvamo bigatuma tugira ubuzima bwiza buzira umuze buzira gufatwa n'uturwara twa hato na hato, ni yo mpamvu rero dukwiriye gukunda siporo kuko idufitiye akamaro.

Mukinyarwanda baratubwira ngo tinyuka urashoboye, hari imikino dukunda gukina twicaye, izo mikino rero akenshi usanga abantu bafite ubumuga bakunda kuyikina, niba dukina voreboro duhagaze, voreboro n'umukino ukinwa twifashishije umupira ariko tugawukina dukoresheje intoki rero hari no kuwukina....

Dukunde kwiga tumenye no gutwara ibinyabiziga ariko nanone tugerageza kubitwara neza, twirinda kubangamira bagenzi bacu bakoresha umuhanda cyangwa se bakoresha aho tunyura tubyifashisha, n'iyo mpamvu rero igihe dutwara ibinyabiziga twagakwiriye kubitwara neza twirinda impanuka za hato na hato, zishobora kubangamira bimwe cyangwa se bamwe bagenzi bacu ndetse natwe tutiyibagiwe.

Tugira ahantu henshi twishimira tukaganira tukabasha kuganira neza, tukanategura imishinga yacu dutuje urugero mu mahoteli ndetse n'ahantu henshi hatandukanye. Niyo mpamvu rero ahantu nk'aho tuzakunda kuhasanga mu ndimi z'amahanga hitwa pisine twifashisha twoga twinezeza kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza.

Siporo ngororamubiri dukwiriye kuyikomeraho, tukayikunda kuko idufasha kuba icyo twita mu ndimi mpuzamahanga fisicaft of awa bod bigatuma umubiri wacu uba umeze neza nta burwayi dufite buturuka mu kugira amasukari menshi mu mubiri, kubera ko tuba twakoze siporo ngororamubiri.

Basiketeboru mu ndimi z'amahanga ni umukino dukinisha amaboko, tugamije gutsinda ikipe duhanganye nayo, ni umukino rero dukwiriye gukina kubera ko udufasha gukora siporo ngororamubiri, inadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko bituma tugira icyo twitapuzamahanga fiziko fiti twumva duteye tumeze neza nta masukari menshi dufite mu mubiri, binyuze mu gukora siporo ngororamubiri.

Dukunde siporo, siporo idufasha kunanuka mu mubiri ikadufasha kugira icyo twita mu ndimi z'amahanga sitabiliti ova awa bodi kugira umubiri wacu ubeho utekanye wujuje ibisabwa nta masukari menshi mu mubiri, nta mavuta menshi mu mubiri. Ahubwo tukagira umubiri ushoboye ubuzima bwa hantu henshi atandukanye ndetse ushoboye no kwirwanaho igihe tugezemo bihe bikomeye nk'iby'uburwayi.

Buri wese akeneye kugira ubuzima bwiza, kugira ubuzima bwiza biraharanira, harimo gufata indyo yuzuye cyane cyane ugakora na siporo, imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bintu bifasha umuntu, uwo ari we wese kugira ubuzima bwiza, ubuzima buzira umuze, akirinda kwatakakwa n'indwara nyinshi zitandukanye zirimo imyijima ndetse n'izindi ndwara zo mu nda zagiye zinapfa.

Tujye dukora siporo kuko siporo iradufasha, siporo iradufasha mu buryo bwiza cyane, bigatuma tugira umubiri mwiza, tukabasha no kurwanya indwara za hato na hato zishobora kwataka umubiri, ni yo mpamvu rero dukwiriye gukora siporo uko dushoboye siporo ugakora siporo itananiza umubiri wawe kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza. Dukunde siporo kandi tuyikore, kuko ariyo izadufasha kugira ubuzima bwiza bw'ejo hazaza.

Hediboru mu ndimi za mahanga n'umukino dukina dukoresheje intoki, tukagenda duhererekanya hanyuma tukabasha gutsinda igitego, tugatsinda ikipe duhanganye nayo, niyo mpamvu dukwiriye kuwukomeraho, tukawitaho, tugashishikariza n'abandi kuwukina. Kuko udufasha gukora siporo ngororamubiri bigatuma tugira umubiri uhangana n'ndwa n'uburwayi bwa hato na hato, bityo bigatuma umuntu abaho ameze neza afite umutekano mu mubiri we.

Basiketibolo mu ndimi z'amahanga. Ni umukino dukina tudunda umupira tugamije gutsinda ikipe duhanganye na yo. Ni umukino rero udufasha gukora siporo ngororamubiri bigatuma buri umwe wese uwukora yumva ameze neza nta masitari menshi afite mu mubiri, binyuze mu gukora iyi siporo ngororamubiri.

Umukino wa tenisi ukinwa hifashishijwe nk'umupira. Umupira ukoreshwa muri tenisi, hakabaho n'ikindi gikoresho twifashisha dukikinga agapira kacu twifashisha muri tenisi niyo mpamvu rero dukwiriye gukina n'imikino itandukanye kuko rimwe na rimwe idufasha tukayigiriramo amahirwe tukabasha kugira ubuzima bwiza dukesha siporo dukora turi gukina.

Tugira ijambo igitego, igitego n'ijambo rishobora gukoreshwa mu buryo bubiri, igitego igihe abantu bakina umupira agatsinda mugenzi we cyangwa se rigaragaza, rikagaragaza umwimerere w'ikintu, rero iyo dukina dutsinda igitego ahitwa mu izamu, izamu ni ahantu dukina twese tugamije gutera umupira kugira tuze gutsinda ikipe duhanganye nayo.

Voreboro mu ndimi z'amahanga. Umupira w'amaboko rero ni umupira dukina udufasha kugira ubuzima bwiza biturutse mu gukora siporo tuwukesha. Niyo mpamvu rero dukwiriye kwiga kuwukina n'abatawuzi bakawumenya, kuko ni kimwe mu bituma abantu bazamura impano zabo zikabasha kugaragara, bikabasha no kubaha amafaranga, bifashisha bakabona ibyo bakeneye.